Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti butandukanye bafasha abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye igihe bagiye kwa muganga, bakabandikira imiti baza kuyigurira hano. Hakaba hari umugore uri kuri mashini wambaye rinete ufite imisatsi ya natireri wambaye itaburiya y'umweru.

Ahandu baguriraga imiti igihe umundu yagwaye. Bukaba harimo ubwoko bugiye butandukanye bwagufasha bitewe n'ingwara yo ugwaye. Akaba biri mu kabati gafite ibirahuri n'agadafite ibirahuri, bikaba biteretse ku makaro gari hasi, n'ikibambasi cyenda gusana n'umuhondo.

Farumasi ni ahantu tuajaga tugiye kugura imiti igihe kwa muganga bayitwandikiye, ikaba idufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, igihe tudashatse kujya mu miti ya kinyagwanda, kubera ko iba iri hafi y'aho dutuye.

Ibyatsi bitoshye cyane by'icyatsi dukoreshaga mu buvuzi nyagwanda. Bikaba ari ibyatsi gakondo bivuraga ingwara zigiye zitandukanye, bikaba bitoshye, bifite amababi g'icyatsi n'ibindi bifite amabara gasa n'aho ari umuhondo wagira ngo bigiye kuma hakaba harimo n'utundi duti dutoya.

Igihingwa kimeza, kikaba gifite amababi arambuye gikoreshwa mu buvuzi gakondo nyarwanda, kikaba kiri ahantu hari ibindi byatsi bisa n'aho byumye, munsi yacyo harimo ibibabi byumye haruguru yacyo hariho sitariya.

Ibi ni ibihingwa bigiye bitandukanye dukoreshaga mu buvuzi nyagwanda ari byo bitaga ngo ni ubuvuzi gakondo, bikaba arimo ubwoko bugiye butandukanye, ibigiye ngo kuma n'ibindi bifite amababi gatoshye.

Ndi kubona ibyatsi dukoresha mu buvuzi nyarwanda igihe abantu barwaye indwara zigenda zitandukanye, hakaba harimo ibifite amabara agiye kuba umuhondo n'ibindi byatsi byumye by'umweru wagira ngo ni amababi yacitse ku bindi biti.

Mu muco Nyarwanda, tugira ibyatsi twifashisha igihe turi kuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu akaba ari umuravumba dukoresha igihe umuntu arwaye inkorora, umutwe, ndetse n'izindi ndwara. Kubera ko ukiza n'uburozi ibintuza byawo imizi.

Ubu ni ubwoko bw'ibyatsi butandukanye tukaba tubukoreshaga mu buvuzi n'igihe dukenera abavuzi bita aba kinyarwanda bikaba biri ahantu hasa nahari mu mabuye bikaba bifite imyenda itandukanye bimwe bikaba bifite amababi maremare kandi gabyibushye ibindi bikaba bifite utubabi dutoya tukabikoresha igihe turi kwivura ingwara.

Urudega ni ikimera dukoreshaga mu buvuzi, ng'abandu bagiraga ikibazo cyo mu mavi bakagenda hakikanga, n'abagiraga ikizungera, kikaba gikoreshwaga turi kugira ngo twitungira amagara mazima, hakaba kiriteye mu bindi byatsi bisa naho ari umucaca w'icatsi.

Umuharavumba ni igihingwa cyimeza, tuba tuwukoresha mu buvuzi nyarwanda, igihe waciye amababi yawo ukayakaraga, warangiza ukayanwa cyangwa se ugacisha mu mazuru, ukira umutwe mu buryo bwihuse, inyuma yaho hakaba hariho ikirere cyiza.

Igihingwa gifite amababi n'amashami, gikoreshwaga igihe turi kwivura dukoresheje imiti bitaga iya gakondo,, cyangwa mu bunyarwanda hakaba hari ibyatsi biri munsi yacyo bigufi ,ndetse hirya yaho hakaba ariho akayira nyabagendwa.

Shufureri ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, kikaba kiryoha cyane. Iyo gikuze kigira imbuto zisa n'aho ari ururabo. Hirya yacyo hakaba hari ibishyimbo bisa n'aho ari imbuto ngufi, hirya y'aho bikaba biri ahantu wagira ngo hari amabuye.

Ubuhinzi bw'u Gwanda duhingagamo n'ibimera bidufashaga mu buvuzi bitaga ubwa kinyarwanda. Bukaba ari igiti kirekire giteye ahantu hari ibindi byatsi byinshi, inyuma yacyo hakaba hariho ibyatsi bisa n'aho bigiye kuraba. Kandi iki giti kikaba gifite amashami n'amababi menshi.

Impuhu ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, tukaba tucyifashisha mu buvuzi bwa gakondo, kubera ko gifite amababi avura umutwe, inkorora n'imisonga. Imbuto zacyo tukaba tuzirya igihe zatukuye zabaye nk'umuhondo, igihe ari icyatsi ntibyemewe kuzirya.